Umugabo n'umugore bicaye ahantu hatuje kandi hatekanye bahugiye mu nshingano zo gukora akazi bahawe n'igihugu, aho umugore ari kwandika ibisabwa kugira ngo akazi gakomeze kagende neza.

Uburyo bw'ishoramari mu buhinzi, mu burezi, mu bukungu, mu ikoranabuhanga, n'ubuzima buzira umuze, ibikorwa Remezo, mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mu bwubatsi bw'imitungo itimukanwa n'ubukerarugendo, n'ukuntu watangira, ukuntu wabona abakozi n'ukuntu wakwishyura imisoro.

Igiti gishinze mu butaka kirekire gishinzwe gusakaza umuriro w’amashanyarazi mu ngo z'abaturage mu karere ka Gasabo, ku muhanda wa magana atandatu mirongo icyenda na gatandatu.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya ahantu hataswe n'inkongi y'umuriro, mu buryo bworoshye kandi butanga umutekano ku bantu bateraniye aho hantu, mu buryo bw'umutuzo.

Ikinyabiziga kinini kiri gukoreshwa mu gutwara amatungo ariyo inka, kiri mu muhanda usa neza ndetse ukikijwe n'ibiti bitanga amahumbezi y'umwuka mwiza wo guhumeka.

Icyapa cyo mu muhanda cy'umutuku n'umweru, kiri ahantu mu mirambi, kigaragaza ko ikinyabiziga cyose kihanyuze kiba kigomba guhagarara.